Imbuto ni kimwe mu bifasha umubiri w'umuntu kumererwa neza, harimo ko imbuto zifasha igogora, imbuto zikaba zifasha umuntu kugira uruhu rwiza ndetse no kunywa imitobe yakozwe mu mbuto na byo bikaba ari byiza, muri izo mbuto harimo inanasi, imineke ndetse n'ibindi.

Ntamuntu muri twese utakwifuza kugira ikinyabiziga agendamo cyane cyane abaye ari imodoka, banki nyafurika yatwegereje inguzanyo y'imodoka nawe wayitunga.

Kugira ubwisungane mu kwivuza n'ibintu byiza cyane kuko biguha icyizere cy'ubuzima bw'ejo hazaza reba imisanzu yawe muri arasesibi arasesibi n'ikigo gifasha umuturage kugira ubwishingizi mu kwivuza.

Nta cyiza nko kugira amasoko ateye imbere aho ushobora kugenda ugakunda igicuruzwa ugahita ukibona ndetse ukahitamenya n'igiciro gihagaze, bitewe n'uko wi ufite ukaba wamenya ko wagura cyangwa utagura. Rero amasoko agezweho azwi nka supamaketi ni byiza cyane kuyahahiramo.